Abantu baje kwamamaza umukandida wabo, umukandida ni umugabo, mu baje kumwamamaza harimo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abakecuru ndetse n'abasaza n'urubyiruko.

Inama yabereye mu Nteko inshingamategeko, yitabiriwiwe n'abantu bagiye batandukanye: abadepite, n'abasenateri. Imbere hariho abayobozi bayoboye ino nama, ndetse kandi no mu bayoboye ino nama harimo umugore.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibimenyetso by'umukara biri mu ibara ry'umuhondo, umuzenguruko w'icyo cyapa ni umukara. Ibimenyetso biyobora abakoresha ibinyabiziga ndetse n'abakoresha umuhanda w'amaguru.